Sare iri kuberamo inama y'ubuyobozi butandukanye, irimo abantu batandukanye b'igitsina gore. Hafi ya bose bari kwifashisha mashini mu byo bari gukorera muri iyo nama.

Sitade cyangwa se ahantu hisanzuye hanini, abantu benshi bateranira bari gufana imikino, cyangwa se bari kureba imikino runaka, hakubiyemo abagabo, abagore, urubyiruko ndetse n'abana.

Sale ikubiyemo gitsina gore n'igitsina gabo, iri kuberamo inama y'abayobozi, imbere yabo hateretse amazi y'inyange ndetse n'ibirahure, basa nk'aho bafite ibintu bari kwigaho bitandukanye.

Gushimira abasorera, bibiri na makumyabiri na rimwe, ukwezi ko gushimira amaso umwaka w'ibihumbi bibiri na makiumyabiri na gatatu saba fagityire ya ibiyemu.

Ipoto ikusanyirizwaho insinga z'umuriro, zijyanwa mu baturage batandukanye, bisa nkaho iri ku muhanda munsi yawo hari ibiti bitandukanye.

Ivuriro ririho abarwayi batandukanye bakubiyemo urubyiruko, ababyeyi, ndetse hari n'ibinyabiziga bitwara abarwayi tuzi nka ambulanse.

Karimbo irimo binyabiziga bya moto hakurya y'umuhanda hari icyapa cya tora kagame paul perezida w'igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Dr Utumatwishima Yohana, Minisitiri w'urubyiruko, arimo ararahirira u Rwanda kuyobora urubyiruko neza, kuruha uburere, kurutoza gukora, kurushyira mu mashuri, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umuhanda w'imodoka ebyiri zisa nk'aho ziri kubisikanamo imwe iri kumanuka indi iri kuzamuka. Isa nk'aho iri kumanuka ifite ibara ry'umutuku, iri kuzamuka ifite ibara ry'umweru. Hakurya y'umuhanda hari jaride iteyemo ibiti.

Ikibuga cya Basikete boru, kirimo tapi y'umutuku n'umweru mukeya, cyubatse mu gipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, kirimo ibiti by'inturusu ndetse na pasiparumu.

Ahantu heza hitaruye ureba umujyi wose, hubatse inzu nziza bijyanye n'iterambere, zirimo kadasiteri, amataje, harimo ibyumba byinshi, ntago zicucitse, ni heza cyane.

Umuhanda wa kaburimbo, ikorosi n'imihanda ibiri, harimo ibinyabiziga, moto n'imodoka. Hegereye ishyamba, ni heza kandi hari umuyaga.